Abantu barimo abagore n'abagabo bicaye mu ntebe, imbere yabo hari amazi n'imitobe bigaragara yuko bari kugira ibyo baganirizwa n'umuntu ubahagaze imbere basa nk'abateze amatwi.

Umugabo muremure w'imibiri yombi wambaye amarineti afite irangururamajwi mu ntoki, bigaragara ko ahagaze imbere y'abantu ari kubaganiriza na bo bamuteze amatwi kugira ngo bumve ibyo avuga.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ahagaze imbere y'abandi bantu bicaye, uwo mugabo uhagaze akaba afite indangururamajwi mu ntoki, bigaragara ko ari kugira icyo ageza kuri bariya bicaye basa nk'abamuteze amatwi.

Abantu bahuriye ahantu, bamwe baricaye abandi barahagaze, bisa nkaho bari mu biganiro, hari ababari imbere bafite indangururamajwi, basa nkaho hari ibintu bari kubagezaho, abandi bicaye bari gutega amatwi.

Umugabo w'imibiri yombi wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru uciye amaboko, afite indangururamajwi mu ntoki bigaragara yuko ari imbere y'abaturage ari kugira ibyo abagezaho kuko bicaye bamuteze amatwi bumva ibyo avuga.

Umugabo muremure w'imibiri yombi wambaye ishati y'umweru n'ipantaro, afite indangururamajwi mu ntoki ari imbere y'abantu bicaye, basa nk'aho ari kuganira akaba ari kubabwira ibitekerezo bye.

Abantu benshi bateraniye ahantu, imbere yabo hari abagore barebare b'imibiri yombi bafite indangururamajwi mu ntoki bameze nk'abari kugira icyo bageza kuri bano baturage bicaye inyuma yabo.

Umugabo muremure w'imibiri yombi wambaye ishati y'amaboko maremare, ahagaze imbere y'abantu afite indangururamajwi mu intoki, hirya ye hakaba hari undi mugabo, bigaragara yuko uyu mugabo ufite indangururamajwi mu intoki, hari ikiganiro ari kugeza ku bicaye imbere.

Abantu bagizwe n'abagabo n'abagore, bicaye mu cyumba kirimo intebe n'imeza iteretseho ibintu bari kunywa, bigaragara ko aba bantu bari mu nama bari kwandika bisa nkaho hari umuntu uba imbere uri kugira ibyo abigisha.

Umugabo w'imibiri yombi wambaye impuzankano y'igiporisi bigaragara ko ari umuporisi, ahagaze afite indangururamajwi mu ntoki, hirya ye hari abaturage bigaragara ko ari kubaganiriza.

Umugabo muremure w'imibiri yombi wambaye amarineti, akaba yambaye ikote hejuru afite indangururamajwi mu ntoki bigaragara yuko afite ikiganiro yateguriye abantu ari kubagezaho na bo bakaba bicaye batuje bamuteze amatwi kugira ngo bumve icyo yabateguriye.

Abantu benshi bateraniye ahantu, bisa nkaho bari mu kiganiro, bamwe baricaye, hahagaze umusirikare ufite indangururamajwi mu ntoki, asa nkaho hari ibyo ariko kuba kubagezaho, imbere yabo hateretse ubucupa burimo amazi.

Icyumba kirimo abantu batandukanye imbere yaho hari ameza ateretseho amazi bari kunywa, bakaba bafite amakayi n'amakaramu bigaragara ko imbere yabo hari umuntu uri kubagezaho ikiganiro, bakaba bicaye batuje bamutega amatwi bumva ibyo avuga babyandika.

Abantu barimo abagore n'abagabo bicaye mu cyumba kimwe bigaragara yuko bafite ibyo bari kwigishwa kuko bafite amakaramu n'amakayi, bigaragara nanone ko umuntu ubari imbere afite y'ibintu ari kubereka.

Icyumba kirimo abantu bicaye, abandi bahagaze, abicaye bafite amazi imbere yabo, uhagaze afite indangururamajwi, bimeze nkaho bari mu kiganiro, uwo uri imbere asa nkaho haribyo ari kubagezaho.

Abantu benshi bagizwe n'abagore n'abagabo, bicaye ahantu hasa nko mu cyumba cy'uruganiriro, bakaba bicaye ku ntebe imbere yazo hariho ameza, Imbere yabo hakaba hari n'undi mugore uhagaze usa nkaho arigira ibyo abaganiriza.

Icyumba giteraniyemo abantu benshi biganjemo abanyeshuri bambaye impuzankano, imbere yaho hari abandi bana bari kubyina bambaye impuzankano isa bigaragara ko aba bana bari kubabyinira kuko abayicaye babateze amatwi n'amaso bigaragara ko bari kureba ibyo bari gukora.

Umugabo munini wimibiri yombi wambaye ishati itukura, afite indangururamajwi mu ntoki, ahagaze imbere yabantu bigaragara ko hari ibintu ari kubabwira bamuteze amatwi.

Umugabo wimibiri yombi wambaye marineti, umupira uciye amaboko w'umweru urimo ibara ry'umukara, ahagaze imbere y'indangururamajwi asa nk'aho ari gutanga ikiganiro ku rubyiruko.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo bicaye mucyumba bisa nk'aho bari kuganirizwa, imbere yabo hari umuntu uri gutanga ikiganiro, inzu bicayemoho iriho amarangi y'umuhondo, hakaba harimo imbere yabo amacupa y'amazi.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo, bateraniye ahantu bigaragara yuko bari mu biganiro, abandi bari uhagaze kubyina, urabona ko bishimye, kandi aha hantu bateraniye inyuma hariyo igikuta cyubakishijwe amatafari ahiye.

Icyumba kinini kirimo abantu bagizwe n'abagabo n'abagore. Aba bantu bakaba bicaye muri iki cyumba batuje nkaho bafite icyo bari gukurikirana imbere yabo. Hari nk'umuntu uri kubaha ikiganiro, bakaba bicaye bitonze bamuteze amatwi kugira ngo bagire icyo bumva mubyo ari kuvuga.

Umukobwa w'inzobe ufite imisatsi myinshi afite indangururamajwi mu ntoki akaba ahagaze hagati mu bantu bigaragara yuko bari mu kiganiro akaba agiye gutanga ibitekerezo bye, bakaba bamuteze amatwi ngo bumve icyo avuga.

Umugore wikenyeje igitambaro gitukura ufite imisatsi mwinshi, yicaye imbere y'urusyo arimo arasya ifu bigaragara yuko ino fu namara kuyisya bari buyiteke bakabona ibyo kurya.

Umusore muremure w'urumukara wambaye umupira w'umutuku ahagaze imbere y'inka z'inyambo, izi nka z'inyambo zikaba ziri mu ifamu, ifamu nini irimo n'ibiti.

Iyi inzu irimo abantu bicaye batandukanye ,hakaba harimo imbere yabo ababyinnyi b'imbyino za kinyarwanda . Hakaba hari n'abandi bafite indangururamajwi bisa nkaho bari kuririmba, hari n'umukaraza uri gukoma ingoma bigaragara yuko abantu bari gususurutsa abandi bicaye.

Umukobwa ufite imisatsi iboshyeye mu buryo bw'amasunzu, akaba afite inkono y'itabi mu kanwa, akaba ahagaze imbere y'inzu ihomesheje ibyondo. Iyo nzu ikaba ikingishijwe urugi rukozwe mu biti.

Itsinda ry'intore ziririmba ndirimbo gakondo, ziri kumwe n'umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki wambaye amarineti, inyuma ye hakaba hari ababyinnyi n'abaririmbyi hakaba hari n'umukaraza, bakaba bigaragara yuko bari mu birori baje gutaramira abantu.

Inzu isa nkaho ari nshyashya bamaze igihe gito bayubatse iyo nzu ikaba isize irange ry'umuhondo, ikaba isakaye amabati meza ifite inzugi n'amadirishya bigezweho kandi imbere y'iyo nzu hakaba hari abantu bambaye impuzankano yabugenewe bubatse iyo nzu.

Umuhanda muremure w'igitaka usa n'uri gukorwa kuko harimo abantu, hakabamo ibitaka bisutsemo, hirya yawo hariyo amazu, hakabayo n'ibiti bijyana umuriro kuri ayo mazu.

Umugabo wuriye ku rwego akaba ari hejuru ku ipoto, akaba ari gushyira insinga mo muririro ugaragara ko uyu muntu akora mu bijyanye n'umuriro, akaba ari kugira ngo abantu bamurikirwe.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati agezweho, ikikijwe n'ibyuma bigaragara yuko aha hantu hari ibintu by'ingenzi bituma nta muntu wemerewe kuyinjira atabifitiye uruhushya, hirya y'iyi nzu hakaba hakikijwe n'ibiti birebire.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kiri ahantu heza, iki kibuga kandi biragaragara ko cyubatse neza kuko kirasa neza, ikibuga kikaba gikikijwe n'ibiti biri hirya yacyo hakaba n'ahantu haparikwa imodoka.

Umuhanda muremure wa kaburimbo usa nk'uri mu mudugudu, bigaragara yuko hirya yawo hari ishyamba ririmo ibiti kandi nanone hakaba harimo n'ibiti by'amapoto bitwara amashanyarazi kuri uno muhanda.

Inzu ndende zubakishijwe amatafari ahiye, zifite imiryango n'amadirishya, ziri hafi y'aho abantu bari kunyura, bisa nk' aba bantu bagiye muri zino nzu kwaka serivisi, hakaba harimo n'abazitanga izo serivisi.

Ikusanyirizo ry'amata rikoreshwa n'abantu bo mu gace ka Katabagemu, ikigaragara ino inzu bayishyiramo ayo mata nyine bakusanya, bikabafasha mu gutera imbere.

Umupolisi wambaye impuzankano ya gipolisi urinda ku mupaka, ahagaze aho ateganye n'imodoka isa nk'ishaka kwambuka, ijya mu kindi gihugu, kuri uyu mupaka hirya yaho hakaba hariyo amazu n'ibiti birebire.

Umumotari uri kuri moto, iri kugenda hejuru y'ikiraro, yambaye kasike y'umutuku, ipantaro y'umukara n'umupira w'umukara n'umweru, ibigaragara atwaye moto.

Inzu zubatse kimwe, ziteye kimwe, zisakajwe amabati y'umutuku, zikaba zubakishijwe amatafari ahiye, zifite inzugi n'amadirishya zikaba ziriho n'umuriro, hirya yazo hakaba hari umusozi uteyeho ibiti birebire.

Amazi ari gutemba y'umugezi hejuru yawo hariho ibyuma bisa nk'aho bagiye kuhubaka ikiraro kizajya gifasha abaturage kuva hino y'umugezi bajya hakurya kandi uwo mugezi ukaba ukikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi kibisi bigaragara y'uko haguye imvura igatuma ibiti bimera neza.

Inzu nziza nini isakaje amabati y'ubururu iteresheje amarangi y'umweru, hariho amadirishya n'inzugi, irahagaze isa nk'iyarangiye kubakwa, hirya yayo hakaba hari ibiti birebire.

Abaturage benshi bicaye ahantu hasa nkaho ari ku biro by'umurenge wabo, hirya yawo hakaba hari imodoka y'umweru isa nk'iyajemo abayobozi, aba baturage basa nk'abicaye bari kumva icyo abayobozi babo bari kubabwira kuko bari no gukoma amashyi bisa nkaho bishimiye ibyo bari kubwirwa.

Abantu benshi bicaye basa nk'aho bafite umuntu bari imbere uri kubagezaho ikiganiro kuko baratuje basa nk'abamuteze amatwi, bafite ibyo bari kumva, bakaba bicaye mu ntebe ziriho imyenda ituma batandura.

Umugabo w'urukara wambaye ishati y'amaboko maremare ahagaze imbere y'abaturage afite indangururamajwi mu ntoki, bigaragara yuko hari igitekerezo ari gutanga na bo bakaba bamuteze amatwi.

Abantu barimo abagore n'abagabo bahagaze ahantu hamwe bigaragara ko hari uwundi muntu ubari imbere uri kugira ikiganiro abagezaho kuko baratuje basa nkaho hari ibyo bari kumva bateze amatwi.

Abantu barimo abagore n'abagabo bicaye mucyumba kirimo imeza iteretseho amzi, ikaba iriho n'amarido meza bigaragara yuko iki cyumba bari kugikoresha baganira ku bibazo bitandukanye bashaka ibisubizo.

Umugabo muremure wambaye ishati y'amaboko maremare y'umukara, ari imbere y'abaturage afite indangururamajwi, bigaragara ko aba baturage afite icyo ari kubagezaho kulko bamuteze amatwi kandi bari kumureba bisa nkaho hari icyo akora.

Abantu benshi bateraniye munsi y'igiti cy'umwembe, imbere yabo hari umugabo muremure w'imibiri yombi wambaye ishati y'amaboko maremare, bigaragara ko ari imbere yabo hari icyo ari kubambwira kuko bitonze bamuteze amatwi bari kumva ibyo ari kubagezaho.

Abaturage bicaye ahantu hamwe bisa nkaho bari mu biganiro kuko imbere yabo hari umugabo muremure ufite indangururamajwi mu ntoki, usa nkaho ari kubaganiriza n'aba baturage bakaba bicaye batuje basa nk'abamuteze amatwi bari kumva ibyo avuga.

Umugabo muremure w'imibiri yombi wambaye ingofero y'umukara n'umupira w'umweru urimo ibara ry'umukara uciye amaboko, afite indangururamajwi mu ntoki bigaragara ko hari abantu ari kugezaho ikiganiro.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagabo n'abagore harimo n'abasirikare bambaye impunzankano za gisirikare, bakaba bazanye indabyo ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi bigaragara yuko baje mu gikorwa cyo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi.

Umugabo muremure w'imibiri yombi wambaye ikote n'ishati na karuvati ahagaze imbere y'abantu, afite indangururamajwi mu ntoki indi ihagaze imbere ye, ari gusa nk'uvuga bigaragara ko ari kugeza ikiganiro ku bantu bateraniye aho ari.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, iriho inzugi n'amadirishya, isakajwe amabati meza bigaragara ko inzu yarangiye kubakwa, ihagazeho abantu babiri umwe yambaye impuzankano undi akaba yambaye ipantaro n'umupira, inyuma y'iyo nzu hakaba ariyo ikigega.

icyumba cyicayemo abantu basa nk'abari mu nama, bakaba bicaye muri kino cyumba kirimo intebe n'ameza ateretseho amazi, bakaba bafite amakaramu n'amakayi bisa nkaho hari ibyo bari kwandika bagiye gufataho ibyemezo bitagenda neza.

Umugabo muremure w'imibiri yombi ahagaze imbere y'abaturage afite indangururamajwi mu ntoki, bigaragara ko imbere y'aba bantu ari kugira icyo abasangiza kuko bicaye bameze nk'abamuteze amatwi.

Abantu barimo abagore n'abagabo bahagaze ku murongo bifashe neza, bafite indangururamajwi mu ntoki. Bigaragara ko bari mu kiganiro. Hirya yaho bakaba bahubatse amatente, bigaragara ko ari naho bicaye. Inyuma y'ayo matente hakaba hari ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto ukaba urimo n'igare, igare rikaba ririho umuntu wambaye umupira w'umutuku uciye amaboko n'ingofero, iyo moto na yo ikaba iriho umumotari wambaye umupira w'umukara, bikaba bigaragara yuko aba bantu bari kugenda.

Icyapa cya mpande eshatu kirimo umuntu hagati usa nk'uri kugenda cyerekana y'uko aha ari inzira y'abanyamaguru, imbere yaho hagati hari icyapa kindi cyerekana ko haparikwa kandi hakaba hari n'ibiti hirya y'umuhanda, bigaragara y'uko uyu umuhanda ukikijwe n'ibiti.

Imodoka nini iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, uwo muhanda wa kaburimbo ukaba ukikijwe ku ruhande n'ibiti byiza, bigaragara yuko aka gace kaguyemo imvura bityo bigatuma bino biti bigaragara neza kuko birashishe.

Imodoka ifite amabara y'umweru n'umukara, iri muri kaburimbo isa nkaho irimo kugenda hirya yayo hariyo abantu nabo basa nk'abari gutambuka.

Icyapa kerekana ko aha ari aho abanyamaguru bagenewe kwambukira, bikaba biri muri kaburimbo hirya yaho hakaba hari ishyamba ry'ibiti bikikije uwo muhanda.

Imodoka y'umweru iri muri kaburimbo irimo iragenda, hirya yayo hari umugabo muremure wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'ikigina na we arimo aragenda mu muhanda.

Imodoka ebyiri zisize amabara y'umweru, hagati yazo harimo umuntu, imwe n'iya Yaho, zihagaze muri gare zisa nk'izizanye cyangwa zije gufata abagenzi.

Umugabo uri ku igare asa nkaho ari kugenda muri kaburimbo, iyi kaburimbo ikaba ikikijwe n'amazu y'ubucuruzi hakaba haparitse imodoka bisa nkaho yaje kugura ibyo bicuruzwa by'abo bantu bacuruza muri aya mazu.

Abantu barimo abagore n'abagabo bari mu muganda kuko bafite amasukari n'imihoro, hakaba harimo n'abasirikare bambaye impuzankano zabo, hakaba hari n'abandi baturage bahagaze bari kureba ibyo barimo.

Abantu bateraniye ahantu, bigaragara yuko uyu mudamu, wambaye impuzankano ya polisi, ari imbere yabo ari kugira icyo abagezaho nabo bakaba, bamuteze amatwi kugira ngo bumve ibyo ari kubabwira.

umugabo n'umugore bahagaze imbere y'abantu, umugabo yambaye ishati y'amaboko maremare, afite umutaka atwikiriye uwo mugore, wambaye ikanzu afite indangururamajwi mu ntoki, bigaragara ko bari mu gihe cy'imvura, kandi bakaba bari kugira icyo bageza ku bantu bateraniye aho bari.

Abantu barimo abagore n'abagabo bateraniye ahantu munsi y'igiti bigaragara ko bari mu nama, imbere yabo hari umuntu uri kugira icyo abagezaho bakaba batuje bamuteze amatwi kugira ngo bumve ibyo ababwira.

Umugabo muremure w'inzobe wambaye impuzankano y'igisirikare bigaragara ko ari umusirikare, ari kumwe n'undi ufite ibyo ari kumwereka, bakaba bari mu murima w'ibitoki bigaragara ko baje kuhakora isuku kuko uwo musirikare afite isuka mu ntoki.

Umurima munini urimo abantu basa nk'aho bari mu muganda kuko bafite ibikoresho byifashishwa iyo bari mu muganda nk'amasuka , kandi uwo murima ukaba urimo ibyatsi bishishe bigaragara yuko ahantu habonye imvura nyinshi. Inyuma y'uyu murima bari gukoramo umuganda kandi hari urutoki narwo rumeze neza bagira ngo rubemo ibitoki byeze.

Abantu batandukanye harimo inzego za leta zishinzwe umutekano nk'abasirikare n'abapolisi n'abadaso, bateranye n'abaturage mu gace kari karimo umwanda basa nk'abari mu muganda bari gukuraho ibyatsi byari bibangamye. Hirya yaka gace barimo, hari urutoki rushishe bisa nkaho habonye imvura nziza yatumye bikorana.

Abantu barimo abagore n'abagabo bafite ibikoresho byifashishwa bari mu isuku, birasa nk'aho bari mu muganda, barimo baratema ibihuru biri ahantu bisa nk'aho byari bibangamye bikaba ngombwa yuko babikuraho.

Abasirikare bambaye impuzankano bari kumwe n'abaturage bafite amasuka n'ibindi bikoresho bari mu murima, bisa nkaho bari mu muganda bigaragara yuko aho bari hari imyaka nk'urutoki n'ibindi.

Abantu benshi harimo abagore n'abagabo bateraniye ahantu, bisa nk'aho bari kwahakora umuganda kuko bafite ibikoresho byifashishwa bakora umuganda, bigaragara ko ahantu, hari hari ibihuru byinshi bikenewe gukurwaho.

Abantu benshi bagizwe n'abagabo n'abagore bateraniye ahantu mu'ikibuga hagati harimo ubwatsi, hakaba harimo n'abantu bari gukina umupira w'amaguru, hirya y'aba bantu hakaba hari ibiti birebire, na none hakaba hari hagizwe n'imisozi miremire bigaragara ko ari agace k'imisozi miremire.

Itsinda ryabantu benshi barimo abagore n'abagabo, bafite amasuka n'imihoro, bisa nkaho bari mu muganda kuko bari gusa nk'abatema ibihuru biri aho ngaho.

Abantu benshi barimo abagore n'abagabo, bateraniye ahantu, imbere y'inzu isakaje amabati, hirya y'iyo nzu hariyo urutoki, aba bantu barasa nk'abari gusana uno muhanda wari warangiritse kuko bafite ibikoresho bifashisha bari gusana.

Abana barimo barakina umupira w'amaguru mu kibuga gisa nk'aho kitarimo ibyatsi, hirya yabo niho hari ibyatsi ariko ntabwo bahakinira, bakaba bari gukina bamwe bambaye ibirenge abandi bambaye inkweto.

Abagabo bari mu kibuga bambaye impuzankano bakoresha mu myitozo ngororamubiri, bari mu kibuga bari gukina umupira, iki kibuga hirya cyubakiyemo amazu asize amarangi y'umuhondo, hakaba n'ipoto ritanga urumuri.

Abagabo bari mu kibuga bambaye impuzankano zisa biragaragara ko bari gukina umupira w'amaguru, harya hari amazamu hakaba hari n'inzu zisize amarange bakaba ikibuga bari gukiniramo ari ikibuga kigezweho.

Ikibuga kirimo abantu batandukanye harimo abapolisi mbona bambaye impuzankano za gipolisi n'abaturage bandi basanzwe, barimo barakina umupira bisa nkaho barikora igikorwa cya siporo rusange.

Abakinnyi bari mu kibuga bambaye impuzankano bari gukina umupira, amakipe abiri uko bigaragara, iki kibuga kandi kikaba ari ikibuga kigezweho kuko cyubatse neza gifite ikoranabuhanga rigezweho.

Abagabo bambaye impuzankano zijyanwa mu mikino ngororamubiri bicaye ku ntebe y'abasimbura bari kumwe n'umugabo wambaye ingofero y'umweru usa nk'aho ari umutoza wabo, bakaba bicaye bari kureba umupira.

Umugabo munini wirabura yambaye impuzankano bakoresha bari muri siporo, akaba ari mu kibuga bakiniramo kuko imbere ye hari ballon, akaba yambaye n'inkweto zabugenewe bifashisha bari gukina.

Abakinnyi bambaye impuzankano isa bari mu kibuga kitarimo ibyatsi, bafite umupira bagiye gukoresha bakina, hirya yaho hakaba hari ibyatsi n'ibiti bigaragara yuko aha kuri iki kibuga bahakinira.

Ikibuga kirimo kirakinwamo n'abana bari gukina umupira w'amaguru, bamwe bambaye inkweto zifunze abandi bambaye ibirenge. Hirya y'iki kibuga biragaragara yuko hameze ibyatsi bigaragara yuko imvura yabonetse ibyatsi bikabona uko bimera.

Abana bari mu kibuga bari gukina umupira, harimo abambaye ibirenge, harimo n'abambaye inkweto zifunze, hirya y'iki kibuga urabona ko hari ubwatsi butoshye, bigaragara ko hano haguye imvura, ibyatsi bikabona uko bisa neza.

Umuhanda w'umukara ugezweho urimo imodoka mu bice byose bibiri, imwe iraza indi irimo iragenda, hirya y'imodoka hariyo umunyonzi uri ku igare, hirya y'umuhanda hariyo ibiti n'ibyatsi.

Abantu biganjemo abagore bari mu muhanda mu masaha ya ni mugoroba, buri kwira kuko umuhanda watangiye kumurikirwa n'amatara, mu muhanda kandi akaba ari umuhanda ugezweho hari kunyuramo moto. Abanyamaguru nabo bari kunyura ku muhanda wabo wabugenewe.

Umugabo muremure w'urukara wambaye ipantaro y'umukara, inkweto zifunguye ishati y'ubururu, uhetse igikapu ari kugenda muri kaburimbo, hirya ye hari amazu.

Moto iri muri kaburimbo irimo iragenda, iriho umumotari wambaye kasike, ahetse n'umugenzi nawe wambaye kasike, inyuma yabo hariyo umunyegare nawe utwaye igare abakurikiye.

Agahanda karekare kasa nk'ako abaturage banyuramo batashye mu mago yabo, aka gahanda gakikijwe n'umurima munini mbona urimo ibyatsi n'ibiti, imbere ndabona harimo abantu banyuramo.

Umuhanda muremure w'ibitaka wubatse mu mudugudu bisa nkaho abaturage batuye muri kino gice bawukoresha banyuramo, hirya y'uyu muhanda hakaba hari inzu zubatse neza, hirya y'izo nzu hakaba hari n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo icyapa cy'impandeshatu, gitukura kirimo umuntu, cyerekana yuko ahantu hanyura abantu bambukiranya umuhanda, kandi uwo muhanda hirya yawo hakaba hari ibiti birebire, na none hakaba hari amazu yubatse.

Umunyeshuri wambaye impuzankano ari kugendera mu muhanda wagenewe abanyamaguru, hirya ye hari kaburimbo iri kugendamo moto, inyuma ye hakaba hari n'abandi bantu, hirya yaho hakaba hari amazu y'ubucuruzi.

Umuhanda muremure wa kaburimbo, ukaba uri kunyuramo abantu bari ku magare cyangwa se ku mamodoka, umuhanda ukaba ukikijwe n'ibiti binyuraho amashanyarazi, hirya yabyo hakaba hari ishyamba ry'ibiti...